Abagabo n'abagore bambaye imyenda irimo amabara atandukanye bicaye, bafite udutabo mu ntoki zabo bari kwitegereza imbere

Abantu benshi bicaye munzu y'uruganiriro, bitegereza bambaye imyenda y'amabara atandukanye imbere yabo hari amacupa y'amazi, hari impapuro z'umweru, hari amakaramu bateretse n'amaterefone ku meza.

Abagabo n'abagore bicaye bari mu nama, imbere yabo hari amatelefone, amakarine, bambaye imyenda y'amabara atandukanye bicaye mu ntebe z'imikara.

Abayobozi bari mu nama, ku meza yabo hateretse udukayi dutoya bandikamo n'amakaramu, hari n'amazi bafite na za mudasobwa bakoresha.

Abantu benshi bicaye bambaye imyenda y'amabara atandukanye bicaye ku ntebe zifite amabara y'umukara n'izindi zifite amabara y'icyatsi imbere yabo hari amazi, hari mudasobwa bafite impapuro bari kwandikaho.

Abantu benshi bicaye bitegereza, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi n'indabo, akaba ateguye ibitamba by'umweru n'umuhondo, hirya yabo hari ayandi meza ariho mudasobwa.

Abagabo n'umugore bicaye bambaye imyenda y'amabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro z'imyeru, hateretseho amazi yo kunywa, amaji n'utundi tuntu.

Abagabo bicaye bari kwitegereza imbere, umugabo uri imbere wambaye ikoti ry'umukara, yambaye ishati na karuvati yambaye rinete.

Abantu babiri bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza y'umutuku, ayo meza ateretseho mudasobwa, hariho amazi bari kunywa hateretseho amaterefone, yabo n'gakayi bandikamo.

Umubyeyi uhagaze ufite indangururamajwi yambaye inkweto z'umukara, ijipo y'umukara, agashati karimo utudomo tw'umukara n'umweru, imbere yiwe hari umugabo wicaye, yicaye mu ntebe z'umuhondo imbere ye hari icyapa cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Abagabo bicaye bari mu nama bambaye imyenda itandukanye, umugabo uri imbere afite indangururamajwi ifite ibara ry'umukara n'umuhondo, imbere yiwe hari amaterefone.

Abantu bicaye mu ruganiriro, imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umukara ibitambaro biyatwikiriye, hari impapuro z'umweru, hari amazi ari mu macupa n'amakaramu yo kwandikisha.

Uruganiriro rw'inama hicayemo abazungu, abirabura, hari ameza y'imituku, intebe z'imikara n'amaka hasi, ku nkuta hari amabara y'ubururu n'umuhondo n'andi mabara atandukanye.

Abantu bicaye nk'abari mu nama bari kwitegereza. Imbere yabo hari ameza ateretseho udukombe na terefone zabo, ateretseho n'impapuro z'umweru; bambaye imipira y'ubururu.

Amagambo manini yanditse mu ibara ry'umuhondo n'utundi duto twanditse mu ibara ry'umweru, munsi hari inzu ikikijwe n'ibiti bisa ibara ry'umweru biri ku rupapuro rufite ibara ry'ubururu.

Icyapa cyanditseho irembo; gifite ibara ry'ubururu ryanditsemo amagambo ari mu tubara tw'umweru dutoya. Iruhande rwabyo hari ibara ry'umweru.

Abantu babiri umwirabura n'umuzungu bambaye amakoti atandukanye n'imipira itandukanye, bari imbere y'intebe nyinshi hakurya hari mudasobwa zifite ibara ry'ubururu harimo amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Umunara uhagaze mu byatsi, ukikijwe nibiti n'amazu ari hepfo afite ibara rya shokora n'umweru, iruhande rw'uyu munara hari kaburimbo irimo utubara tw'umweru abanyamaguru bambukiramo.

Inzu ndende iri kubakwa itaruzura, iruhande rw'iyo nzu munsi hubakishijwe amabati, hepfo y'ayo mabati hari igikuta cy'amatafari, iruhande rw'icyo gikuta hari igiti.

Ipoto rifite ibara ry'umuhondo riziritseho insinga z'amashanyarazi, riri hagati y'ibiti bibiri.

Umuhanda urimo imodoka n'umugenzi iruhande rwuwo muhanda hari ibyatsi biteyemo ibiti harimo umunara iruhande rw'ibumoso bwizo modoka hari amazu afite amabara y'umutuku.

Abagabo, abagore bambaye amakanzu y'imituku, harimo abagore bambaye rinete, inyuma yabo hari ibiti bameze nk'abitegereza.

Abagabo bambaye imyenda y'iroza bahagaze ari benshi, ku ruhande ko hirya munsi yigiti hari n'abandi bicaye babiri, hirya yaho hari imodoka y'ibara ry'umweru hino yaho hari umugabo wunamye.

Abantu batatu bicaye barimo kwitegereza imbere yabo hari indangururamajwi, bafite ibipapuro by'umweru biri kumeza imbere yabo bambaye imyenda y'imikara y'amakote, imbere harimo imipira y'umweru.

Abantu benshi bahagaze bitegereza iruhande rwabo hari umugabo wambaye imyenda y'umukara n'umuhondo bigaragara ko ari umupolisi ari kwerekana uburyo bakoresha kizimyamwoto.

Imodoka ziri kugenda imwe izamuka indi manuka hagati y'uwo muhanda hahagazemo umupolisi uri guhagarika imodoka, iruhande rw'uwo muhanda hari ibiti n'amapoto.

Kizimyamwoto ifite ibara ry'umutuku n'umukara, iriho igipapuro cyanditseho amagambo menshi, iteretse hasi hari amakaro, iri iruhande rw'igikuta cy'umweru hasi ari umukara.

Idarapo rihagaze ryanditseho FPR, rifite ibara ry'ubururu, umweru n'umutuku, igitambaro kiziritse ku nkingi y'icyuma.

Abantu benshi bafite amadarapo yanditseho efuperi, bambaye imipira y'imituku n'iy'ubururu, bambaye ingogofero y'umweru yanditseho efuperi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka, iruhande rw'uwo muhanda hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rw'iyo nzira y'abanyamaguru hari indabo nyinshi n'ibiti byinshi imbere y'izo ndabo.

Ikamyo ebyiri zisa ubururu. Iruhande rw'ikamyo hari umumotari wambaye umwenda w'umutuku, yambaye kasike y'umuhondo, ijakete y'umuhondo irimo ibara ry'ubururu, ari kuri moto.

Amakamyo atatu imwe ifite ibara ry'ubururu, abiri afite ibara ry'umweru, harimo abantu batandukanye bambaye imipira y'umutuku undi wambaye umupira y'icyatsi ikamyo imwe ikaba irimo imifuka y'umweru n'umuhondo n'ubururu.

Imodoka y'umweru y'ikamyo iri iruhande rw'umunyegare uhetse umugenzi, bahagaze kuri kaburimbo munsi y'ibiti birebire, hepfo yaho hazitiwe urugo rusa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo hariho abanyamaguru barimo baragenda, ibinyabiziga, amagare, ruguru y'uwo muhanda hari amazu asize ibara ry'umuhondo, hepfo yaho hari amazu naho asize ibara ry'umuhondo n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amagare, moto, ibikamyo harimo n'abantu bari kugenda, harimo umunara hirya y'uwo muhanda haragaragara ibiti birebire, hakurya y'umuhanda hari umusozi muremure.

Moto ifunze ifite ibara ry'ubururu rimurika umuhanda wa kaburimbo hakurya hari agahanda k'abanyamaguru harimo umugenzi uri kugenda yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro hakurya y'iwe hari imifuka y'umuhondo ihagazeho abantu batatu.

Ikamyo ebyiri imwe isa umutuku indi isa icyatsi iy'umutuku yikoreye umucanga, ziri kuri kaburimbo iruhande rwaho hari inzira y'abanyamaguru, hakurya y'izi kamyo hari ibiti birebire biteye.

Umu motari uhetse umugenzi wambaye ishati y'umweru, ari hagati muri kaburimbo; iruhande rwe hari akayira k’abanyamaguru, hakurya y’ako kayira hari ibiti biteye; iruhande rw’iyo kaburimbo, hari indabo ziteye z’umuhondo.

Ibiti birebire, munsi yabyo hari imodoka ya bisi n'igikamyo bisa ubururu, iruhande rwazo hari umugabo utwaye igare hariho umufuka kuri iryo gare.

Ikamyo iri ku muhanda wa kaburimbo ifite ibara ry'umweru n'utundi tw'umuhondo turimo hagati inyuma y'icyo gikamyo hari moto zihetse abagenzi iruhande rw'icyo gikamyo hari ibiti byinshi.

Imodoka y'ikamyo y'umweru, iri iruhande rw'ivatiri, biri muri kaburimbo. Iruhande rw'izi modoka hari umugabo uri kugenda ku kayira k'abanyamaguru, iruhande rwe hari ruhurura.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi iruhande rw'uwo muhanda hari umuhanda w'abanyamaguru hariho abantu barimo kugenda, iruhande rw'ako gahanda k'abanyamaguru hari ruhurura imanura amazi hakaba hari n'inzu zikikije uwo muhanda.

Imodoka eshatu zisize amabara y'umweru, imwe irafunguye iruhande rwayo hari umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara imbere y'izo modoka hari umuhanda w'abanyamaguru uteyeho amapavi, hakuno hari kaburimbo.

Inyuguti ya p iri hejuru yiishusho ishushanyijemo y'imodoka, ishushanyije ku rupapuro rw'ubururu iruhande rw'uru rupapuro hari ibara ry'umweru.

Igipangu cy'umweru n'ibara ry'ubururu hejuru no ku mpande, ibyicungo imbere bifite ibara ry'ubururu, abana bambaye imyenda y'umuhondo n'icyatsi bari ku byicungo, ibiti bihagaze mo imbere mu kigo.

Imodoka impanuka ku muhanda wa kaburimbo iruhande rw'uwo muhanda harimo ibyatsi birimo ibyapa iruhande rw'iyo kaburimbo hepfo hari inzu hahagazeho abantu.

Abagenzi bari kugenda hagati mu muhanda wa kaburimbo, harimo moto, hari imodoka iri kuzamuka, iruhande rwa kaburimbo hateye ibiti ruguru ya kaburimbo hari ibipangu gifite ibara ry'ubururu, harimo amagambo y'umweru, hagati hari inzu.

Aho abanyamaguru bambukira, iruhande rwabo hari moto zihagaze, hari icyapa kigaragaza umutuku cyanditsemo amagambo y'umweru, hakurya hari imodoka.